Umugabo urimo gutera umuti intsina akaba ahetse ipombo y'umuhondo, yambaye agapira k'amaboko magufi karimo amabara y'umweru ndetse n'umukara, ingofero y'umukara n'ipantaro y'umukara ndetse na bote.

Abantu barimo gukora ifumbire y'imborera mu rwego rwo kugira ngo igihe k'ihinga nikigera bizaborohere kubona ifumbire yo kwifashisha mu buhinzi bwabo, ni byiza gutegura kare ifumbire yawe kugira ngo bizakorohere igihe k'ihinga nikigera.

Utubati turimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'imiti byifashishwa mu bworozi, akaba ari akabati gasize irangi ry'umutuku, ndetse n'akandi gasize irangi ry'umweru.

Abantu bari mu murima uhinzemo ibigori, bakaba bafite ifumbire y'imvaruganda, barimo kugenda banyanyagiza kuri buri kigori mu rwego kugira ngo bizakure neza, bityo bitange umusaruro mwiza ushimishije. Ni byiza gukoresha ifumbire nyongeramusaruro.

Umugabo wambaye isarubeti ijya gusa n'ubururu bwijimye, uhetse ipompo mu mugongo akaba yambaye ga z'umutuku mu ntoki ndetse n'agapfukamunwa, arimo gutera umuti ibigori mu rwego kugira ngo bikure neza.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye, hakaba harimo amakarito, amacupa, utujerekani ndetse n'ibindi. Ni byiza gushinga ubucuruzi kubera ko bushobora kuguteza imbere bityo ukava mu bukene, nawe ukabarirwa mu bamiliyoneri.

Umudamu wicaye mu iduka ricuruza imiti, imbere ye hakaba bateretse mudasobwa zifashishwa mu gihe barimo gutanga serivisi. Ni byiza kugana ivuriro cyangwa se aho bacuruza imiti mugihe urwaye, murwego kugira ngo babungabunge ubuzima bwawe kandi vuba.

Akabati gateretsemo amacupa arimo imirama y'amoko atandukanye, nka karoti, pavuro, amashu ndetse na beterave, hejuru hakaba hateretse ibikoresho byifashishwa mu kuhira, bizwi nka roswari.

Imifuka ipanze mu buryo bwiza bwa gihanga ku buryo nta mufuka ushobora kugwa, ni byiza gupanga imifuka mu gihe ufite ubuhunikiro kugira ngo ya mifuka itazagerwaho n'ubukonje.

Umugabo uri mu iduka acururizamo imiti, akaba ari imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, yambaye itaburiya y'umweru igaragaza ko ari umuganga, hakaba hari akabati gateretsemo imiti acuruza.

Ifumbire y'imvaruganda isutse hasi, akaba ari ifumbire yitwa DAP, ni ifumbire abantu bakunda gukoresha mu gihe barimo guhinga ibihingwa mu rwego rwo kugira ngo yunganire ifumbire y'imborera.

Akarima k'igikoni gateyemo imboga z'amoko agiye atandukanye higanjemo idodo, ibitunguru ndetse n'ibindi, ni byiza kubaka uturima tw'igikoni aho dutuye, kubera ko biroroha kubona imboga bityo tukarwanya imirire mibi.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye byifashishwa mu buhinzi, hakaba harimo imirama itandukanye karoti, amashu, pavuro ndetse n'ibindi hakaba harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kuhira ndetse no gutera imiti.

Abantu batandukanye bari mu murima w'ibigori bakaba barimo gutera ifumbire nyongeramusaruro izwi nk'ifumbire mvaruganda, ni byiza gukoresha ifumbire mvaruganda kubera ko ituma ibihingwa byawe bishisha bityo bikazatanga umusaruro mwiza ushimishije.

Iduka ricuruza ibikoresho byifashishwa mu buhinzi hakaba harimo imirama nka pavuro, amashu ndetse na karoti, hakaba hari n'indi miti yifashishwa mu buhinzi, hejuru y'akabati hakaba hateretse ibikoresho byifashishwa mu kuhira bizwi nka rozwari ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gutera imiti bizwi nk'amapompo.

Abantu bari mu murima uhinzemo ibirayi, bakaba bahetse amapompo mu migongo yabo bagenda batera imiti ibirayi mu rwego kugira ngo udusimba tutazabyibasira bityo bigatuma bitazera neza.

Ibipapuro byometse ku kirahure bikaba bishushanyijeho ibikoresho bitandukanye biranga serivise zihatangirwa, ni byiza kumanika ibirango bigaragaza serivise utanga mu rwego rwo kugira ngo abaza bakugana bamenye ibyo ukora.

Icyapa cyo ku muhanda kigaragaza serivisi itangwa, ni byiza gushyira icyapa ku muhanda kigaragaza serivisi utanga, mu gihe hari ibikorwa ukora kuko bituma baza bakugana bamenya aho ukorera.

Ifumbire y'imvaruganda basutse ku giti, mu rwego rwo kugira ngo cyongere kigire itoto, gikure, gitangire na none cyere imbuto nk'uko byahoze. Ni byiza gukoresha ifumbire mvaruganda kugira ngo ibihingwa byawe bitohe kandi byere umusaruro mwiza ushimishije.

Inzu y'ubuhunikiro, ipakiyemo imifuka myinshi cyane ipanze mu buryo bwiza. Hakaba harimo imifuka y'amoko atandukanye. Ni byiza gupanga ibintu byawe ku murongo kubera ko birakorohera kubibara ndetse no kumenya aho biherereye.

Umukobwa usutamye, urimo gutunganya ifumbire y'imborera, mu rwego rwo kugira ngo itungane neza bityo azabone uko ayikoresha mu murima we imeze neza, ni byiza gutunganya ifumbire yawe y'imborera mbere y'uko uyikoresha mu murima mu rwego rwo kugira ngo ibihingwa byawe bizakure neza.

Umugabo usutamye akaba yambaye ishati y'amaboko maremare ijya gusa nk'ubururu bwijimye n'ipantaro ijya gusa n'ikigina na bote, afite uruhara arimo gukora mu itaka rya nyiramugengeri mu rwego rwo kugira ngo aritunganye neza.

Amasaro ari mu gatebo, amasaro ni meza cyane kubera ko iyo umuntu ayambaye ku kuboko cyangwa se ku maguru, ubona agaragara neza bityo bigatuma abantu babona ko ari umuntu usirimutse, ni byiza kwambara udutako ku maboko.

Utubati turimo imiti itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Ni byiza kugana ahantu bacuruza imiti mu gihe urwaye, mu rwego rwo kugira ngo baguhe serivise hakiri kare, ubundi ubashe gukira.

Ibipapuro byometse ku rugi, bikaba bishushanyijeho ibintu bitandukanye. Bikaba bigaragaza ko hatangirwa serivise z'ubucuruzi. Ni byiza kumanika ibipapuro bigaragaza serivisi utanga kuko abakugana baza bazi neza ibyo bakeneye ko bihari.

Umubyeyi w'umumama uhetse igikoresho cyifashishwa mu gutera umuti ibihingwa, arimo gutera umuti mu rwego rwo kugira ngo ibihingwa bye bikomeze gukura neza bityo bizamuhe umusaruro mwiza ushimishije.

Abantu barimo gutwara ifumbire akaba ari abantu bane, babiri bambaye imipira y'umutuku abandi babiri na bo bambaye amashati y'ubururu, bakaba bafite ingorofani barimo kwifashisha batwara ifumbire.

Abantu bari mu murima uhinzemo ikawa, bakaba barimo kuzifumbira mu rwego rwo kugira ngo zizakure neza bityo zitange umusaruro mwiza ushimishije. Ni byiza kwita ku ikawa kuko ni igihingwa ngengabukungu.

Akabati karimo utujerekani turimo imiti y'amoko atandukanye, akaba ari amacupa y'ingeri zitandukanye ku buryo ushobora kugura umuti bitewe n'ingano wifuza. Ni byiza kubika imiti mu macupa meza, yizewe.

Abantu babiri barimo gupakira ifumbire y'imborera bayishyira ku kideyi mu rwego rwo kugira ngo bayijyane mu murima aho bagiye guhinga, ni byiza gukoresha ifumbire y'imbonerera kubera ko itangiriza ubutaka kandi iyo wayihingishije ibihingwa byawe bikura neza ndetse bikazera neza.

Amahundo y'ibigori ubona ko ari ibigori byiza cyane byeze bigasarurwa bigeze mu gihe cyiza cyo gusarurwa ku buryo biramutse bihunguwe bishobora kuvamo imbuto kandi n'ibisigaye byasheshwa bikavamo akawunga keza karyoshye.

Ikawa ihinze ahantu heza ubona ko itoshye, hakaba hari n'izindi kawa nyinshi cyane ubona ko ari umurima w'ikawa. Hakaba hagati muri zo hahinzemo n'insina y'inyamunyo mu rwego rwo kugira ngo ajye abona ikawa ndetse n'ibitoki byo kurya.

Isoko ricururizwamo inanasi, hakaba hari abakobwa bafashe inanasi mu ntoki ubona ko banezerewe cyane bitewe n'inanasi bafite mu ntoki ukuntu zihiye neza, kandi zisa neza. Ni byiza gusarura ibintu byeze neza, kubera ko abaguzi babigura bishimye cyane kuko biba biryoshye.

Ikawa nziza zirimo kwera, akaba ari ikawa ubona ko irimo kwera neza cyane, ifite amababi meza y'icyatsi ubona ko nta dukoko twigeze tuyibasira, ni ibyiza kubungabunga ikawa kubera ko ari igihingwa ngengabukungu giteza imbere igihugu ndetse n'umuturage muri rusange.

Ikawa z'ibitumbwe zisutse ku ihema ubona ko zigeze mu gihe cyo guherwa, ni byiza gusarura ikawa zawe iyo zeze kubera ko bituma n'izindi zirimo kuraba zitangira kwera neza.

Umugenda ucamo amazi igihe imvura yaguye, mu rwego kugira ngo amazi adatwara imyaka. Iyo umuntu ari guhinga mu gishanga, biba byiza iyo ateganyije ahantu amazi azanyura igihe imvura yaguye, mu rwego kugira ngo imyaka ye itazarengerwa.

Igishanga gihinze, hakaba hagiye hari imigenda irimo amazi, ayo mazi yifashishwa mu gihe barimo kuhira ibihingwa. Nibyiza gukorera ubutaka bwawe imigenda kubera ko birakorohera, iyo imvura yaguye amazi aca mu migenda ntabwo yangiza imyaka.

Umurima uhinzemo ibihingwa bya pavuro akaba ari ibihingwa ubona ko byitaweho cyane mu rwego rwo kugira ngo bizagire umusaruro, bisa icyatsi byarafumbiwe, ubona ko binuhirirwa.

Ababyeyi bari mu murima w'intoryi bakaba bamaze gusarura intoryi, ni ababyeyi benshi ubona ko bakuze bamwe muri bo bahetse abana. Intoryi ni ibiribwa byiza cyane kubera ko uwabiriye ahorana itoto.

Umurima uhinzemo ibishyimbo bikaba birimo kuzamuka aribwo bigeze mu gihe cyo gushyirwamo imihembezo. Ni byiza guhemberera ibishyimbo bikiri bitoya kubera ko bikura neza bityo bikazamukira ku biti byabyo nta muntu ubibangamiye ngo abice imitwe.

Urushu rwiza cyane mu ndimi z'amahanga bita shufureri, akaba ari uruboga abantu bakunda kurya cyane cyane abantu bateye imbere. Ni byiza kurya imboga kubera yuko umuntu urya imboga, ahora afite ubuzima bwiza...

Ibirayi biri mu murima akaba ari ibirayi ubona ko bikuze cyane byasaruwe, mbese ni ibirayi bya kinigi. Ni byiza guhinga ibirayi ukabisarura ari uko byeze neza kubera ko nibwo biba biryoshye cyane.

Ikigori cyiza cyane, cyakuze ubona ko cyitaweho cyane kigafumbirwa, kikuhirirwa ndetse kikanarindwa inyoni. Ni byiza kwita ku bigori kuko birakura cyane bityo bikatuma ubona inyungu.

Umurima uhinzemo imyumbati ubona ko ikiri mitoya, hakurya yaho hakaba hahinze ibigori ubona ko byumye bigeze mu gihe cyo gusarurwa. Iruhande rwawo, hakaba hari ibiti byinshi cyane bituma haboneka umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Ikawa z'ibitumbwe, akaba ari ikawa ubona ko zigeze mu gihe cyo kwera ariko zakuze mu gihe cy'izuba. Ikawa ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu.

Ibisheke ubona ko byeze bigeze mu gihe cyo gusarurwa, akaba ari byiza kurya ibisheke kubera ko biba birimo isukari ifasha umubiri gukora neza, bityo umuntu akagira ubuzima bwiza cyane.

Umurima uhinzemo ibihingwa by'amoko atandukanye, akaba ari ibihingwa bihinzwe mu buryo bw'umusitari, ni byiza guhinga ku kumurongo kubera ko ibihingwa byitabwaho neza mu buryo bukwiriye bityo bigatanga umusaruro mwiza.

Umuntu uri mu murima uhinzemo ibitunguru, akaba arimo kubikorera mu rwego kugira ngo byere neza, bityo azabone umusaruro mwiza ushimishije. Ni byiza kwita ku bihingwa mu rwego kugira ngo uzabone umusaruro mwiza wifuza.

Ingemwe za avoka zinarijwe muri pepenyeri, zikaba ziri mu bihoho mu bwego kugira ngo zitabweho neza, zijye zibasha kubika amazi mu gihe zuhiriwe. Ni byiza kuhirira avoka igihe biri ngombwa kugira ngo zihorane itoto kandi zikure neza.

Amapapayi yeze neza cyane ubona ko ageze mu gihe cyo gusarurwa, akaba ari amapapayi aryoshye cyane, ni byiza kurya amapapayi kubera ko ari imbuto nziza cyane zifite intungamubiri ituma umubiri umererwa neza kandi umuntu agahorana ubushake bwo kurya.

Ibitoki byinshi cyane birunze hamwe ubona ko byeze bigeze mu gihe cyo gusarurwa bikaba byasaruwe kugira ngo babijyane ku isoko, ni byizayiza gusarura ibitoki byawe bitaragera aho bitangira kuba imineke kubera ko iyo byabaye imineke ntabwo biba bikiri ibyo kuribwa ahubwo biba byabaye ibyo gutarwa.

Umurima uhinzemo ikawa zisasiwe neza, hakaba hahinzemo n'insina ndetse n'ibindi biti ni byiza kwita ku ikawa kuko ari igihingwa ngengabukungu giteza imbere nyiracyo ndetse n'igihugu muri rusange.

Igishanga gihinzemo imiteja, akaba ari imiteja ihinze ku buryo bw'imirongo, umuntu wese ashobora kujyamo akareba uburyo ihinze, bityo no kuyisarura bikoroha kubera ko ihinze mu buryo bwiza bugezweho.

Umurima uhinzemo ikahwa, ikahwa ni igihingwa ngengabukungu ku buryo kizamura igihugu ndetse n'abaturage muri rusange, aba ari ngombwa rero ko umuhinzi azitaho neza akazisasira mu rwego kugira ngo zizere neza zigire umusaruro mwiza.

Ingemwe z'ikahwa ziri mu bihoho, zikaba zigeze mu gihe cyiza cyo guterwa, ku buryo uramutse uziteye zahita zizamuka hanyuma mu minsi iri imbere ugatangira kubona umusaruro w'ikahwa zawe. Ni byiza kwita ku ikahwa zawe.

Imyumbati bakuye, akaba ari imyumbati ubona ko yeze neza, yafumbiwe, yakuze cyane. Imyumbati ni imwe mu binyamafufu kandi bitera imbaraga. Ni byiza kurya imyumbati cyane cyane ku bantu bakora imirimo ibasaba ingufu nyinshi cyane.

Ingemwe z'ikawa ziri mu bihoho zikaba zarakuze zigeze mu gihe cyo guhingwa, ni byiza kwinaza ingemwe mbere yuko uzijyana mu murima kuzihinga kubera ko uzijyana mu murima bigeze mu gihe cyiza kandi zaramaze kumenyera ku buryo zidashobora kuma.

Umugabo uhagaze mu murima we akaba arimo gukorera ubutaka bwe mu rugo kugira abone uko atera imbuto ze, ubutaka bwiza butunganyije neza, hakurya hakaba hahinze ibigori ubona ko byumye bigeze mu gihe cyo gusarurwa.

Amacupa abiri asumbanye, rimwe ni umweru irindi ni umukara, hakaba harimo imiti yifashishwa mu bworozi cyane cyane mu gutera ingurube vitamine kugira ngo zikure neza.

Amacupa atandukanye ateretse mu nzu ubona ko ari ahantu hacururizwa ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu isuku, ni byiza kugura ibikoresho byifashishwa mu gukora isuku kuko bituma iwawe hamera neza ndetse hagahumura neza.

Amacupa ane abikwamo imiti yifashishwa mu buvuzi mu gihe umuntu arwaye, ni byiza gufunga imiti mu ducupa twiza twizewe kubera ko iyo umuntu abitse umuti ahantu hatizewe urangirika.

Agacupa gafunze kariho ishashi kakaba gafite n'umupfundikizo ugaragaza ko katarafungurwa na rimwe, ni byiza kwirinda gufungura ikintu utaherewe uburenganzira kubera ko hashobora kuba harimo ibintu bitemerewe gufungurwa bityo wabikora ugasanga bikuviriyemo ingaruka.

Ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye, harimo agakoresho kameze nk'isahani karimo umucanga ndetse n'agapapuro kagaragaza icyo ari cyo. Ni byiza kugaragaza ikintu icyo ari cyo, mu rwego kugira ngo uje wese, ahite asobanukirwa.

Agacupa gafunze neza kariho ikirango kigaragaza ko harimo ibikomoka ku mukamo. ni byiza gufunga mu gacupa neza ibintu ibyo aribyo byose mu rwego kugira ngo bitazangizwa n'ikintu icyo ari cyo cyose.

Agakarito keza cyane kari mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu karimo ibinini. Ni byiza gupfunyika ibinini mu dukarito kubera ko bituma ubudahangarwa bwabyo bwizerwa neza cyane.

Inka yarwaye ibiheri ubona ko ubuzima bwayo buri mu kaga. Ni byiza kwita ku matungo kuko na yo afite ubuzima nk'ubw'abantu, kubera ko iyo utayiseho ashobora gupfa, bityo ugasanga wowe mworozi urahombye.

Imbwa iri ku buriri, ubona ko ibabaye cyane ku kuboko kwayo ikaba ipfutse, iriho agakoresho bambika umuntu, igihe barimo kumushyiramo serumu kwa muganga.

Ibikoresho bibikwamo amata mu rwego rwo kugira ngo abungabungirirwe ubuziranenge. Ni byiza gutwara amata mu bikoresho byabugenewe mu gihe uyajyanye ku ikusanyirizo kugira ngo agezweyo ameze neza.

Umuntu urimo guhinga mu bigori mu rwego rwo kugira ngo ashake indi mbuto ahingamo, kubera ko ibigori byanze kwera neza. Ni byiza guhinga ahantu ubona ko ibyo wari warahinzemo byanze kwera mu rwego rwo kugira ngo hadakomeza gupfa ubusa.

Abantu babiri bari mu murima barimo guhinga, bakaba barimo gutera imbuto, bari guhinga mu murima uhinzemo insina, imyumbati ndetse n'amateke, hakurya hakaba hari igishanga, gihinzemo umuceri.

Umugabo uri mu murima akaba arimo gukura imyumbati, imyumbati ni ibihingwa ngangurarugo umuntu ahinga bityo akaba yirukanye inzara iwe.

Umugabo uhagaze mu murima w'ibigori akaba yishimye cyane ashimishijwe n'ukuntu ibigori bye byeze neza, Ni byiza kwita ku buhinzi bwawe kubera ko iyo bweze neza nkuko wari ubyiteze biragushimisha cyane.

Abantu benshi bateraniye hamwe barimo gukora umuhanda, mu rwego rwo kugira ngo bajye babona ahantu banyura hatunganyije neza. Ni byiza gukora igikorwa cy'umuganda kubera ko gituma abantu basabana, bakubaka igihugu ndetse bagakora n'ibikorwa remezo biteza imbere abaturage.

Abantu bari mu murima barimo guhinga, bakaba barimo guhingira ibigori mu rwego rwo kugira ngo bikure neza bityo bazabone umusaruro mwiza bifuza. Akaba ari abantu benshi cyane harimo abagabo ndetse n'abagore, akaba ari ibigori ubona ko bitakoze neza kuko biratatanye.

Abantu barimo guhinga, bakaba bari guhinga mu murima urimo amateke ndetse hakaba harimo n'insina. Inyuma y'isambu yabo hakaba hari ibihuru bihakikije. Ni byiza guhinga, ugahingira ku gihe.

Umugabo wambaye isarubeti y'icyatsi ndetse n'ingofero y'ubururu, akaba arimo gutunganya ifumbire y'imborera izifashishwa mu gihe cy'ihinga. Ni byiza gutegura ifumbire yawe mu gihe urimo kwitegura gukora ubuhinzi.

Umusore wambaye agapira k'umutuku k'amaboko magufi yambaye ipantaro y'umukara imufashe ndetse n'inkweto za kambambiri, afite isuka mu ntoki arimo kugenda akurura itaka mu rwego rwo kugira ngo abone uko arikura iruhande rw'umwobo, inyuma ye hari insina nyinshi.

Abantu benshi batandukanye bari mu murima, bakaba barimo gutegura umurima kugira ngo bahingemo imbuto mu rwego rwo kugira ngo biteze imbere, bakaba bari mu byiciro bitandukanye harimo abakuze ndetse n'abakiri batoya.

Abantu babiri bari mu rutoki barimo guharura murwego rwo kugira ngo bakorere urutoke rwabo, bakaba ari abagabo babiri buri wese afite isuka, umwe yambaye bote ariko undi yambaye inkweto zisanzwe.

Umuntu urimo guhinga mu buryo bugezweho, akaba yagiye aca amaterasi mu rwego kugira ngo ahinge mu buryo bw'imisitari. Ni byiza guhinga mu buryo bw'imisitari kuko ibihingwa biroroha kubikurikirana bityo bigakura neza.

Abantu bahagaze mu murima barimo kuganira, ubona ko hari ikibazo cyabahuje baganira ku isambu, ni byiza kuganira igihe hari ikibazo cyavutse mu rwego rwo kugira ngo icyo kibazo gikemurwe vuba bidatinze.

Abantu barimo guhinga mu rwego rwo kugira ngo igihe cyo gutera imbuto nikigera bizaborohere guhingira rimwe n'abandi, ni byiza kwitegura igihe cy'ihinga hakiri kare kugira ngo utazacikanwa.

Abantu bari mu murima barimo guhinga, ubuhinzi ni genzi kubera ko butuma abantu babona ibyo kurya. Hatabayeho ubuhinzi abantu bose bapfa bagashira, kubera ko abantu ibyo barya, bituruka mu buhinzi.

Abantu barimo gutera ururabo rw'umukindo, akaba ari abantu batatu ndetse n'undi wambaye impuzankano y'abakozi bashinzwe umutekano, uzwi nk'abadaso, akaba ari byiza gukora igikorwa cy'umuganda abantu bakorera hamwe.

Abantu babiri barimo guhinga mu rwego rwo kugira ngo babone uko batera imbuto, inyuma yabo hakaba hari igiti kirekire cya gerveriya, hakaba hari n'insina nyinshi zibakikije.

Abantu barimo guhinga, bakaba bunamye barimo gutera imbuto y'ibishyimbo, akaba ari abagore batatu, babiri bakaba bahagaze iruhande rw'ahantu hari insina eshatu, inyuma yaho hakaba hateye urubingo rw'amatungo.

Umubyeyi w'umumama urimo gutonjora ibyatsi mu murima mu rwego rwo kugira ngo igihe cy'ihinga nikigera azahinge bitamugoye, ni byiza gutegura intabire yawe mu rwego rwo kugira ngo igihe cy'ihinga nikigera uzahinge bitakugoye, umurima arimo gutonjoramo ibyatsi ukaba uhinzemo insina.

Abantu barimo guhinga, bakaba barimo guhinga mu murima urimo ibigori ndetse uteyemo n'intsina, hepfo yaho hakaba hahinze inturusu, ni byiza guhinga mu murima ukitegura guteramo izindi mbuto mu gihe ibyo wari warahinze byanze kwera.

Abantu barimo gupanga imifuka mu rwego rwo kugira ngo biborohere kuyibara ndetse no kumenya aho ubwoko bwa buri kintu bupanze, ni byiza gushyira ibintu ku murongo mu bubiko bwawe kugira ngo byoroshye kumenya imibare yabyo ndetse n'aho biherereye.

Imifuka ya kiro jana irimo ingano, akaba ari imifuka myinshi cyane irimo ingano nziza zeze neza zijya gusa umuhondo ubona ko zifite uburyohe bwihariye, ni byiza gusarura ingano zeze neza.

Ibigori bimanitse ku gihangari, mu rwego rwo kugira ngo byume neza, bityo nibigera mu gihe cyo kubihungura bizahite byoroha, kandi bizabe bifite intete nziza cyane kubera ko iyo byanitswe neza ari bwo bibasha gutanga imbuto nziza cyane.

Ibitiritiri by'ibigori byinshi cyane birunze, ubona ko ari ibigori byinshi cyane byahunguwe. Hakaba hari imifuka myinshi ipanze, irimo ibigori mu rwego kugira ngo igihe bazaba baje kuyipakira bizorohe kandi ibikwe neza.

Umurima uhinzemo ibigori byiza, ubona ko byumye bigeze mu gihe cyo gusarurwa, akaba ari byiza gusarura ibigori ari uko byumye neza kubera ko nibwo biba bifite intete ishobora gutanga imbuto, ndetse uba usanga ari bwo bishobora gutanga akawunga cyangwa se ifu nziza cyane.

Abantu benshi bateraniye hamwe bakaba barimo kwanika ibigori kugira ngo nibigera mu gihe cyo guhunikwa ngo bivanwemo imbuto, azabe ari ibigori byiza cyane bifite intete nziza, biganjemo igitsina gore, hakurya hakaba hari umurima uhinzemo ibigori ndetse hirya yabo hari ishyamba.

Abantu barimo gutunganya ibigori mu rwego kugira ngo bizagire imbuto nziza yo kuzahinga. Ni byiza kwanika ibigori bikuma neza kugira ngo nibihungurwa, bizahungurwe mu gihe byumye neza cyane kuko nibwo ushobora kubihinga, bikamera bityo bigatanga umusaruro.

Imifuka irimo ibintu bitandukanye, hakaba hari umufuka urimo ibishyimbo, umufukumo ibigori, umufukumo ingano ndetse n'imifuka irimo ibindi bintu bitandukanye, ni byiza guhunika ibintu mu mifuka.

Inzu yanikwamo ibigori mu rwego rwo kugira ngo bikusanyirizwe hamwe bizahungurirwe rimwe bityo bitange imbuto, ni byiza gukusanyiriza hamwe kuko aribwo bitanga umusaruro.

Imifuka ipanze ahantu hamwe akaba ari imifuka y'umuhondo ndetse n'iy'umweru, bigaragara ko irimo ibintu bitandukanye. Ni byiza gupanga imifuka yawe neza mu gihe hari imifuka myinshi mu rwego rwo kugira ngo wirinde akajagari.

Umurima uteyemo insina nziza za kijyambere, ubona ko zitabwaho cyane zirasa neza, zirasasiye neza mbese ni insina nziza cyane ziri ku murongo mbese zigaragara mu buryo bwiza cyane ku buryo zishobora gusurwa n'abantu abo aribo bose.

Imifuka ya kiro jana ipanze mu bubiko, akaba ari imifuka myinshi cyane, mu bubiko hakaba harimo abantu, ubona ko bavuye kureba uko ibisigaye mu buhunikiro bingana.

Isoko ricururizwamo imboga ndetse n'imbuto, hakaba harimo imbuto nyinshi cyane z'amoko atandukanye harimo imbuto za avoka, hakabamo amaronji, hakabamo oranje, hakabamo imineke ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Ibihuru byo mu ishyamba, akaba ari ibihuru bishobora kwifashishwa mu gukora imiti itandukanye ishobora kuvura indwara nk'igituntu, agatembwe ndetse na za rubaga impande.

Intoryi zigeze mu gihe cyo kwera akaba ari intoryi zishishe cyane mbese zafumbiwe ndetse zikanahabwa ifumbire nyongeramusaruro, iruhande rwazo hakaba hari dodo.

Igiti giteye iruhande rw'inzira, akaba ari igiti cy'umuyenzi, hepfo yacyo hakaba hari urugo rw'imikenke, inzu ikaba isakaje amategura, imbere yayo hakaba hateye insina nyinshi cyane.

Ishyamba ririmo ibiti birebire ubona ko byakuze neza, akaba ari ibiti by'ibinyarwanda, ni byiza gutera ishyamba kubera ko rituma tubona ibikoresho byinshi bitandukanye harimo inkwi, amakara, intebe, ibitanda ndetse n'ibindi.

Imboga z'ibihaza bikunda kwitwa kayote, akaba ari imboga abantu barya ziryoha cyane ku buryo umuntu uzirya adashobora kurwara umuvuduko w'amaraso, ni byiza kurya kayote.

Ibiti bizamuye ndetse n'ibitambitse bikaba bigaragaza ko ari ahantu hinarizwa ingemwe. Ni byiza gusakara ahantu winariza ingemwe kubera ko izuba ntabwo rizangiza.

Imboga z'amashu ndetse na teyi. Akaba ari bimwe mu bintu bitekwa mu buryo butandukanye. Teyi zitekwa mu nyama, naho amashu ashobora gutekwa, akarishwa ibindi bintu bitandukanye.

Ishyamba riteyemo ibiti by'amoko agiye atandukanye, bikaba bishobora gutanga imiti ya gakondo, ni byiza kubungabunga ishyamba kubera ko rituma abantu babona umwuka mwiza wo guhumeka ndetse bikanatuma habaho imvura.

Igiti k'ipera ubona ko gifite amababi atandukanye kikaba gishishe kizera mu buryo butangaje, iruhande rwacyo hari umurima uhinzemo ibishyimbo ubona ko ari bwo birimo kumera mbese akaba ari mu gihe k'izuba.

Ibiti bya buberi bivangwa n'imyaka, ubundi amababi yabyo akagaburirwa udusimba tunnya indodo twita amagweja. Ni byiza korora amagweja kubera ko ateza umuntu imbere mu buryo bworoshye.

Umugwegwe uteye iruhande rw'umurima uhinzemo imyembe ndetse n'insina. Akaba ari umugwegwe ubona ko wagandaye, hakaba hari indi migwegwe bagiye bakataho ku ruhande. Imigwegwe yifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye nko mu kuboha ibyibo ndetse no gukora ibiziriko.

Umurima uteyemo insina z'inyamunyu, akaba ari insina ubona ko zitoshye zahinzwe mu butaka bwiza. Ni byiza guhinga ahantu heza uzi ko ari ubutaka bwiza kuko ni bwo ubona umusaruro mwiza wifuza.

Umurima uhinzemo ibigori, akaba ari ibigori ubona ko bigeze mu gihe cyo kuribwa. Ibigori ni kimwe mu bihingwa ngangurarugo kubera ko iyo umuntu yabihinze ntashobora kwicwa n'inzara iwe.

Icyapa kigaragaza ubwoko bw'ibiti biteye, akaba ari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'ari mu ibara ry'umukara. Hari ibiti bya kera, ubona ko ari ibiti bidasanzwe.

Igiti cy'umwembe ndetse n'igiti cy'avoka bikaba biteye iruhande rw'umurima uteyemo ibigori, ni byiza gutera ibiti by'imbuto kubera ko imbuto ari ingenzi mu buzima bwa muntu, hakaba hari n'ibigori bihinze bituma umuntu ashobora gushira inzara.

Amabase arimo imboga zitandukanye, hakaba hari ibase irimo korojete, hakaba hari ibase irimo pavuro, ibase irimo imiteja, hakaba harimo irimo ibibiriganya ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Abantu bari mu murima uhinzemo ibishyimbo, bakaba barimo kubagara. Ni byiza gukorera ibishyimbo byawe mu rwego kugira bizakure neza, ibyonnyi bitazaza bikabyangiza bityo ukabona umusaruro udashimishije.

Ubusitani burimo indabo z'amoko atandukanye, ubona ko zitabwaho mu rwego rwo kugira ngo hagaragare neza, hari ahantu imodoka ziparika ndetse hakurya yaho hari inyubako y'ubucuruzi, ubona ko yubatse mu buryo bwiza cyane.

Amabase ndetse n'ibindi bikoresho birimo ibintu bitandukanye, umuntu ashobora kurya mu rugo iwe. Hari ibase irimo beterave, hakaba hari ibase irimo imiteja, hakaba hari ishashi irimo sereri, hakaba hari igitebo kirimo ubusa, umufuka urimo ubusa ndetse inyuma yaho hakaba hari na karoti.

Umurima uhinzemo karoti, ubona ko zeze zigeze mu gihe cyo gusarurwa. Karoti ni nziza cyane kubera ko umuntu waziriye agira ubuzima bwiza, cyane cyane ko amaso ye atajya ahuma ngo ananirwe kureba.

Ibitunguru by'ibijumba biri ku gatanda gashasheho umufuka akaba ari ibitunguru by'umutuku, ibitunguru bikunda gukoreshwa mu buryo butandukanye ushobora kubiryamo salade cyangwa se ukabikarangisha ibiryo mu rwego kugira ngo bihumure neza ndetse biryohe.

Karoti ni imboga nziza cyane kubera ko umuntu waziriye usanga amaso ye ahora areba neza bityo amaso ye ntazigere ahura n'indwara iyo ari yo yose, ni byiza kurya karoti waba uri umwana, waba uri umuntu mukuru.

Udutebo tw'umutuku turimo imbuto za avoka, akaba ari udutebo twinshi cyane ku buryo dusaga makumyabiri, ni byiza kubika imbuto ahantu heza hizewe kubera ko bituma zitangirika.

Igiti cy'indimu, akaba ari igiti ubona ko kiriho indimu nyinshi cyane bityo zikaba ziri hafi gusarurwa, ni byiza kurya indimu kuko zigera mu nda zikahoza neza ama aside yose arimo agasohoka.

Umurima uhinzemo amashu ubona ko asasiye yatangiye kuzamuka neza ubona ko ari gusa neza, Ni byiza gusasira imboga kubera ko iyo uzuhiriye amazi afatamo bityo zigakura neza.

Ururabo ruteye ku muhanda, iruhande rwarwo hakaba hateye igiti ndetse haciye n'uruzitiro rwa senyenge. Ni byiza kubakira ibihingwa byawe kubera ko bituma abantu bashobora kuza kukwangiriza, batabona aho banyura ngo bakwangirize imyaka.

Inyanya zirunze ku meza ndetse na karoti, hakaba hari n'amashaza mu isashi. Iruhande rwawo hakaba hari ibitunguru bya puwaro. Ni byiza kurya karoti ndetse n'inyanya kuko bituma umubiri urushaho kumererwa neza.

Umukindo ni ururabo rwiza cyane, rutuma ahantu hagaragarara neza, imbere yarwo hakaba hari umugwegwe uteye mu mucaca mwiza, ubona ko ari umucaca witabwaho cyane, ugatemwa neza.

Abantu barimo gucuruza imboga z'amoko atandukanye. Hakaba hari ndetse n'imbuto. Hari imiteja, ibitunguru, intoryi, pavuro, inyanya, imboga za dodo ndetse n'ibindi. Hakaba hari imifuka irimo ibigori, mbese banyirabyo bakaba bishimye.

Umurima uhinzemo karoti ubona ko zeze zigeze mu gihe cyo gusarurwa, karoti ni imboga umuntu ashobora kurya bityo zikamufasha gutuma akomeza kugira amaso meza abona neza.

Ibinyomoro ndetse na watermelon. Ni byiza kurya ibinyomoro kubera ko byongera amaraso, hanyuma umubiri wawe ugahora umeze neza, kuko amaraso ahora atembera neza mu mubiri, nta kibazo cyo kubura amaraso ufite muri wowe.

Abantu barimo kubaka akarima k'igikoni mu rwego kugira ngo bazajye babonera imboga hafi batiriwe bajya kuzigura ku isoko, ni byiza kubaka akarima k'igikoni iwawe kubera ko uba utandukanye no kongera kugura imboga ukundi.

Isoko ricururizwamo imboga n'imbuto, hakaba harimo ibitunguru byinshi cyane, inyanya n'abantu baje guhaha, hakaba hari udukoresho twifashishwa mu gihe barimo kurunda ibyo bacuruza.

Imbuto z'amoko atandukanye akaba ari imyembe, amaronji, indimu, ibinyomoro ndetse n'amatunda. Ni byiza kurya imbuto kubera ko bituma umubiri umera neza ndetse umuntu akagira ubushake bwo kurya.

Abantu barimo gusarura imiteja, hakaba hari umwana ufite igikapu mu ntoki basaruriyemo imiteja arimo gusuka mu gikoresho kimeze nk'igitebo, mu rwego rwo kugira ngo imiteja ize gutwarwa neza igezwe ku isoko itangiritse.

Umugabo uri mu murima uhinzemo intoryi, akaba arimo kwitegereza intoryi ze areba niba zigeze mu gihe cyiza cyo gusarurwa kugira ngo azisarure, ni byiza gusura umurima wawe uhinzemo ibihingwa mu rwego rwo kugira ngo umenye imikurire yabyo umunsi k'umunsi.

Umugabo uri mu murima uteyemo intoryi, akaba arimo kwitegereza intoryi ze mu rwego kugira ngo arebe ko zirimo gukura neza, ndetse amenye neza niba zizamuha umusaruro mwiza yifuza, ni byiza gusura ibihingwa mu rwego rwo kugira ngo umenye neza, niba birimo gukura neza uko ubyifuza.

Ingemwe z'icyayi ziri mu bihoho, zikaba ziri mu buryo bw'imisitari mu rwego rwo kugira ngo abazitaho babone uburyo bazitaho, ni byiza kwinaza ingemwe zawe z'icyayi mbere yuko uzijyana mu murima ukareba neza niba zikuze bihagije kubera ko bituma aho uziteye zihita zifata ntizume.

Igitoki cy'imineke akaba ari igitoki kiriho imineke myinshi cyane ubona ko yahiye, ni byiza kurya imineke ihiye neza kubera ko aribwo iba iryoshye ifite umutobe mwiza cyane.

Umurima uhinzemo imboga zitandukanye harimo idodo ndetse na karoti, ni byiza guhinga imboga rwatsi kubera ko ziri mu birinda indwara, karoti cyane cyane zituma umuntu amaso ye ahora areba neza bityo ntarware amaso.

Inyanya nziza zatukuye ubona ko zigeze mu gihe cyo gusarurwa, akaba ari inyanya ubona ko zitaweho cyane zigasasirwa neza, zikuhirirwa neza, zigaterwa umuti neza ndetse zikanasasirwa mu buryo bwiza butazangiza.

Akabande gateyeho ishyamba, hakaba hari ibiti by'amoko atandukanye. Ni byiza gutera ishyamba kuko rirwanya isuri, rituma haboneka imvura, rigatuma haboneka umwuka mwiza wo guhumeka ndetse hakaboneka n'ibikoresho bitandukanye.

Indabo z'amoko atandukanye ziri mu busitani, ni byiza gutera indabo ku kumuharuro mu rwego kugira ngo hagaragare neza kubera ko iyo umuntu yaziteye iwe abantu baza bamugana bishimira ukuntu hagaragara neza.

Indabo z'umuhondo ndetse n'umucaca, ni byiza kubaka ubusitani kubera ko butuma ahantu utuye hagaragarara neza, umucaca abantu bawicaramo bityo bakaruhuka mu buryo bwiza cyane.

Abana barimo gukorera imboga z'idodo bari kumwe n'umubyeyi wabo, ni byiza gutera imboga za dodo kubera ko zituma umuntu agira ubuzima bwiza mu rwego rwo kugira ngo zimurinde indwara cyane cyane ko ziri mu birinda indwara.

Ubusitani burimo indabo nziza ziconze neza, hagati yazo hakaba harimo igiti cyiza cyane. Ni byiza gukora ubusitani kubera ko ahantu aho ariho hose hari ubusitani hagaragarara neza, kandi uba ubona ari ahantu hagezweho.

Imyumbati iteye iruhande rw'inturusu, akaba ari imyumbati ubona ko itaragera mu gihe cyo gukurwa ngo isarurwe, inturusu akaba ari ubwoko bw'ibiti bya kinyarwanda umuntu ashobora gutera bigakura bityo akabikoramo ibintu bitandukanye.

Umurima uhinzemo amatunda, amatunda akaba ari imbuto nziza cyane kubera ko umuntu waziriye ahorana itoto ndetse agahorana ubushake bwo kurya. Ni byiza kurya imbuto kubera ko umuntu waziriye agira ubuzima bwiza ndetse akazagira amasaziro meza.

Imboga z'amoko atandukanye ziri ku gitenge, hakaba hari karoti, imiteja, pwavuro, amashyaza, pome, seleri, avoka, ibitunguru ndetse n'imineke.

Isoko ricururizwamo imbuto z'amoko atandukanye, hakaba harimo imbuto za oranje, imyembe, amapapayi, amatunda, ibinyomoro, watermelon, inanasi ndetse n'ibindi.

Ibase irimo imiteja, akaba ari imiteja myiza cyane ubona ko yasaruwe yeze neza, ni byiza kurya imiteja kubera ko ituma igogora rigenda neza ndetse umuntu wayiriye yumva amerewe neza.

Abantu barimo gukaciriza ibishyimbo mu rwego kugira ngo imvura nigwa amazi azinjire mu butaka neza bityo bikure neza, inyuma yabo hakaba hari ingo nyinshi, abantu batuyemo ndetse hino hakaba hari rw'imiyenzi.

Abantu barimo gutera imboga za mashu mu karima k'igikoni, ni byiza kubaka akarima k'igikona aho dutuye kubera ko gatuma umuntu abona imboga bitamugoye kandi gafata ahantu hatoya, rero nta muntu utabasha kwiyubakira akarima k'igikoni aho atuye.

Sereri ni imboga zikunda gutekwa mu nyama kugira ngo zihumure kubera ko iyo bazishyize mu biryo biraryoha cyane kandi bigahumura neza. Ni byiza kuziteka no mu bindi biryo bitandukanye kugira ngo ukomeze kugira ibiryo byawe neza cyane.

Amashu ni imboga nziza cyane kubera ko iyo umuntu yayariye ahora ameze neza kandi atuma umuvuduko w'amaraso ugabanyuka bityo amaraso agatembera neza mu mubiri, ni byiza rero kuyahinga iwawe kugira ngo ujye uyarya biguhendukiye.

Umuntu urimo gucuruza imbuto, akaba afite ibase irimo amatunda ndetse n'akandi kabasi gato karimo ibinyomoro. Kurya imbuto ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi kubera ko zituma ubuzima bwacu bumera neza.

Akarima k'igikoni gateyeho imboga za dodo, ubona ko ari imboga nziza cyane zitoshye zafumbiwe. Ndetse zikanuhirirwa. Ni byiza kubaka akarima k'igikoni iwawe kuko ubona imboga bitakugoye bityo ntiwongere guhaha imboga ku isoko ukundi.

Umuntu ufite ibitunguru by'ibijumba mu ntoki, akaba ari ibitunguru by'umutuku. Ni byiza kurya ibitunguru by'umutuku kubera ko bituma igogora rigenda neza ndetse amaraso agatembera neza mu mubiri kandi iyo wabikarangishije ibiryo biraryoha cyane.

Uruboga rwiza rwa dodo ubona ko rushishe rwahinzwe mu ifumbire ndetse no mu butaka bwiza, iruhande rwarwo hakaba hahinze karoti, ni byiza guhinga imboga kuko ziri mu bintu bituma umuntu atagira indwara na zimwe zimufata.

Ibitunguru byinshi cyane bisutse ku ishitingi, akaba ari ibitunguru by'umutuku. Ni byiza gukoresha ibitunguru igihe utetse kubera yuko bituma ibiryo byawe bihumura neza ndetse bikarushaho kuryoha.

Ibitunguru bisutse ku mufuka ndetse n'udutunguru dutoya bita tungurusumu, hakaba hari n'umunzani upimwaho ibitunguru bitewe n'ibyo umuguzi aguze. Ni byiza kurya ibitunguru kubera ko bituma igogora rikora neza.

Intoryi ndetse n'inyanya. Ni byiza kurya intoryi kubera ko umuntu waziriye ahorana akanyamuneza kandi zituma amaraso atembera neza mu mubiri, naho inyanya zituma ibiryo bitukura kandi bikaryoha cyane.

Imifuka iriho karoti, akaba ari karoti zicuruzwa, hakaba hari n'inyanya ndetse n'intoryi, ni byiza kurya karoti, intoryi ndetse n'inyanya kuko bikungahaye ku ntungamubiri, zituma umubiri umererwa neza.

Abantu babiri bafite ingemwe mu ntoki, ubona ko bishimye cyane bashimishijwe n'ukuntu ingemwe zabo zakuze, umwe ni umugabo, undi ni umugore, umugabo akaba ari umugabo w'imibiri yombi, naho umugore akaba na we ari uw'imibiri yombi ariko yipfutse igitambaro cy'icyatsi mu mutwe.

Urusenda rwa piripiri, hakaba harimo insenda nziza ebyiri zeze ndetse n'izindi zitari zera, ni byiza gukoresha urusenda mu gihe urimo kurya kubera ko iyo umuntu arushyize mu biryo bituma agira ubushake bwo kurya. Tujye dukoresha insenda cyane cyane za piripiri.

Avoka ziri mu gakarito, akaba ari avoka z'imbangurizanyo, ubona ko zeze neza, zigeze mu gihe cyiza cyo kuribwa. Ni byiza kurya avoka kuko umuntu uzirya ahorana ubushake bwo kurya.

Ururabo rwiza ruteye ku muharuro, akaba ari ururabo rufite utundi turabo twiza duteye iruhande rwatwo twatangiye kuraba, ni byiza gutera indabo kumuharuro kubera ko hagaragara neza bityo umuntu wese uhageze akabona ari ahantu hitabwaho cyane.

Umukobwa uri mu murima akaba arimo yuhira mu rwego rwo kugira ngo ibihingwa bye bikure neza, ni byiza kuhira ibihingwa byawe mu gihe cy'izuba kugira ngo bikomeze bikure neza nta nkomyi kuko ni bwo ubona umusaruro.

Umugabo urimo kuhira mu rwego rwo kugira ngo ibihingwa bikure neza, kubera ko iyo wuhiye ukuhirira ibihingwa byawe bikura neza, tujye twuhirira ibihingwa byacu mu rwego kugira ngo bizakure neza bityo bitange umusaruro mwiza ushimishije.

Umugabo urimo kuhirira ibigori mu rwego kugira ngo izuba ritazabyica bityo ntibikure, ni byiza kuhirira ibihingwa byawe kugira ngo bizakure neza bityo ubone umusaruro wifuza, akaba ari umugabo wambaye ingofero y'urugara, umupira w'amaboko magufi, ipantaro y'umukara ndetse na bote.

Umugabo uri mu murima, akaba arimo kuhira ibihingwa bye mu rwego rwo kugira ngo bitazuma kubera ko ari mu gihe cy'izuba. Ni byiza kuhira ibihingwa byawe kugira ngo bitazapfa bityo ugahomba, mu gihe wabiteye ari mu gihe cy'izuba.

Umubyeyi w'umumama ufite indobo y'umutuku akaba ahagaze mu mboga yateye arimo kuzivomerera mu rwego rwo kugira ngo zikomeze gukura neza bityo zizamuhe umusaruro mwiza. Ni byiza kuhira ibihingwa kuko bituma bikura neza.

Abantu barimo kuhira intoryi mu rwego rwo kugira ngo zikure neza bityo bazabone umusaruro mwiza bifuza, ni byiza kuhira ibihingwa byawe kugira ngo bizakure neza hanyuma mu gihe cyo gusarura uzabone umusaruro mwiza wifuza.

Abantu barimo kuhira ibihingwa byabo mu rwego rwo kugira ngo bizakure neza hanyuma bazabone umusaruro mwiza ushimishije. Ni byiza kuhirira ibihingwa byawe kubera ko ubona umusaruro mwiza wifuza. Hirya yabo hari ibihuru ubona ko byatangiye kuraba.

Abantu bari mu murima buhira mu rwego rwo kugira ngo ibihingwa byabo bikomeze bitohe kandi bikure neza, hanyuma mu gihe cyo gusarura bazabone umusaruro mwiza ushimishije, inyuma yabo hakaba hari ibindi bihingwa byakuze ubona ko bigeze mu gihe cyo gusarurwa, urugero imboga za dodo ndetse hakaba hari n'ibigori bigeze mu gihe cyo kuba bya kera.

Ishyamba ririmo ibiti by'amoko atandukanye, hagati yaryo hakaba hari ikibaya. Ikibaya ni ahantu abari mu gishanga ku buryo atari ku gice cyo hejuru ahubwo usanga ari ahantu hari amazi.

Umuhanda urimo kaburimbo, ukaba ugiye ukase harimo amakorosi. Hari abantu benshi bari gutambuka mu muhanda. Mu gice cyo hepfo hari ishyamba, naho mu gice cyo haruguru hateye icyayi.

Ikibuga kirimo ibyatsi byiza cyane, ubona ko ari ibyatsi bitoshye, hakaba hameze nko mu kibuga cy'umupira w'amaguru. Hakurya hari ibiti bihateye bituma haboneka umuyaga ndetse n'amahumbezi, hakaba hanyuzemo akayira abantu banyuramo, hejuru hakaba hari ikirere kitaribuze gutanga imvura.

Amaterasi ateyeho icyayi, akaba ari icya cyiza cyane ubona ko kirimo gukura neza. Icyayi ni igihingwa ngengabukungu kuko giteza imbere abahinzi ndetse n'igihugu muri rusange. Haruguru yacyo hari ishyamba ry'inturusu, ubona ko ririmo ibiti birebire.

Ikiyaga kirimo amazi ubona ko yanduye bisa naho ari mu gihe cy'imvura, hakaba hari iteme abantu banyuramo mu gihe baje kureba ikiyaga, hakurya hari ishyamba.

Umurima uhinzemo pavuro harimo n'ibindi biti bitandukanye, akaba ari pavuro zitangiye kuzamuka ubona ko zigeze mu gihe cyo kuhirirwa no gufumbirirwa kugira ngo zizere neza.

Amaterasi y'indinganire ahinzemo ibintu bitandukanye, buri terasi hagiye hariho ubwatsi bw'amatungo. Haruguru y'amaterasi hari ishyamba ry'inturusu ririmo ibiti birebire, ubona ko rigeze mu gihe cyo gusarurwa.

Agasozi gahinzeho icyayi, iruhande rwako hakaba hahinze ibiti, hakurya hakaba hari amaterasi y'indinganire. Ni byiza guhinga ku materasi y'indinganire, cyane cyane ahantu hahanamye kubera ko birwanya isuri.

Imirima myiza y'amaterasi, ubona ko iteyeho ubwatsi ndetse hari abantu barimo kuyikorera mu rwego rwo kugira ngo bakomeze babone umusaruro w'ibihingwa byabo, hakurya hari amazu menshi ubona ko ari mu rusisiro.

Umurima uhinzemo ibihingwa by'amoko atandukanye byiganjemo imboga, ni byiza guhinga imboga rwatsi kubera ko zituma umuntu adafatwa n'indwara iyo ari yo yose. Tujye twihatira guhinga imboga kuko ni nziza cyane.

Umubyeyi w'umumama ufite isuka ku rutugu, wambaye imyenda y'ibitenge, arimo gutambuka, arimo kujya mu murima we guhinga, imbere ye hari umurima uhinzemo ibigori bigeze mu mugihe cyiza cy'umweru kuburyo umuntu ashobora gusaruramo ibyo kurya.

Ahantu heza cyane hari ibyatsi biconze neza, ubona ko ari ikibuga cy'umupira w'amaguru, hateye ibiti bitandukanye bihazengurutse, ubona ko ari ibiti bituma haboneka umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Ikibaya gihinzemo icyayi, icyayi akaba ari igihingwa ngengabukungu giteza imbere igihugu ndetse n'abaturage muri rusange, hakurya hahinze ishyamba ubona ko ririmo ibiti birebire.

Agasozi kariho icyayi ubona ko gateye neza, hino yako hakaba hari ingo z'abaturage hateye ibigori ndetse n'insina, ubona ko ari ahantu hasa neza cyane hashobora gukurura ba mukerarugendo bakaza kureba imiterere yaho.

Inzu nziza cyane, isakaje amabati y'umutuku, iruhande rwayo hakaba hari ishyamba ryinshi cyane, ubona ko ririmo ibiti by'amoko atandukanye, bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi. Hakurya hari amazu menshi ubona ko ari mu rusisiro.

Igikombe giteyemo ishyamba, hakaba harimo ibiti by'amoko atandukanye, hepfo yabyo hakaba hari imirima ihinze, hakuno hakaba hari umuhanda urimo abantu barimo gutambuka.

Igishanga gihinzemo umuceri, hakaba hagiye hari amazi muri buri murima. Umuceri uhingwa mu mazi, mu rwego rwo kugira ngo uzakure neza bityo ugire ubudahangarwa. Ni byiza kwita ku muceri kugira ngo uzabone umusaruro wifuza.

Amaterasi y'indinganire ahinzeho ibintu bitandukanye. Hakaba hari ipoto rijyana amashanyarazi mu ngo z'abaturage. Ni byiza guhinga mu butaka buri mu buryo bw'amaterasi kuko aba ari amaterasi ateye neza, atanga umusaruro mwiza.

Igishanga gihinzemo ibintu bitandukanye, hakurya yacyo hakaba hari ingo z'abaturage ndetse hahinze n'ishyamba rigizwe n'ibiti by'amoko agiye atandukanye. Ni byiza guhinga kuko ubuhinzi bugira umumaro munini cyane.

Inyana nziza y'umutavu iziritse mu ruhongore, akaba ari inyana ubona ko yonse neza cyane, ni byiza konyereza inyana uko bikwiriye kubera ko nibwo ikura neza ndetse nawe ikazaguha inyungu.

Ingurube iri mu kiraro, akaba ari ikiraro kirimo ijagi ryinshi, hakaba hari ikijerekani inyweramo amazi ndetse ikanariramo ibiryo bitandukanye. Ni byiza korora ingurube kuko yororoka vuba.

Ingurube iryamye mu kiraro utubwana twayo tukaba turimo konka mu rwego rwo kugira ngo tuzakore neza. Ni byiza konsa utubwana kubera ko dukura neza bityo mu gihe kitarambiranye tukaba twabasha na two kororoka tugatangira gutanga inyungu ku muntu woroye ingurube.

Abantu bahagaze imbere y'ibiraro by'inkwavu, bakaba barimo baganira ku bijyanye n'umushinga wabo wo korora inkwavu. Inkwavu ni byiza kuzorora.

Abagabo babiri bari imbere y'ibiraro byororerwamo inkwavu, akaba ari ibiraro byubatse mu buryo bugezweho. Inkwavu ni ingenzi kubera ko zishobora gufasha umuntu kwikura mu bukene ndetse no kubona inyama bitamuhenze.

Imishwi myinshi cyane iri mu nzu aho yororerwa, hakaba harimo imbabura zicanwa mu gihe barimo gucanira imishwi kugira ngo iticwa n'ubukonje. Ni byiza kwita ku mishwi kugira ngo izakure neza.

Inka iryamye munsi y'insina, hakurya hakaba hari ihene, iruhande rw'ihene hakaba hari inyubako, ifite imiryango y'ubururu. Ni byiza gushyira amatungo yawe, ahantu hari igicucucucu mu gihe cy'izuba.

Inkoko nyinshi cyane ziri mu kibuti, hakaba harimo uducupa zinyweraho amazi. Mu nguni hakaba hari ahantu haba hari ibyorya zirya. Ni byiza korora inkoko kuko ziteza imbere vuba.

Inzu irimo inkoko nyinshi cyane ubona ko ari ahantu hororerwa inkoko kugira ngo biteze imbere, hakaba harimo ibikoresho byifashishwa mu kugira ngo inkoko zijye zibone uko zinywa amazi ndetse zihabwe n'imiti.

Inkoko nyinshi z'umweru, akaba ari inkoko zigeze mu gihe cyo gutera amagi. Ni byiza korora inkoko kubera ko zitera amagi zigatanga inyama bityo zikaba zatuma umuntu yiteza imbere akava mu bukene.

Inyana y'umutavu iryamye mu ruhongore, ikaba iryamye mu kiraro kirimo ijagi. Ni byiza kororera mu biraro kubera ko bituma umuhinzi abona ifumbire bitamugoye bityo akagenda agahinga akeza.

Umubyeyi w'umumama urimo kuzirika ihene mu rwego kugira ngo ibone ibyatsi byo kurya, iruhande rwe hari umwana urimo kwitegereza ibyo mama we arimo gukora. Hakaba hari indabo ndende ndetse n'ibishyitsi bihapanze iruhande rwabo.

Inyana y'umutavu iri mu kiraro, umugabo arimo kuyikoraho, mu rwego kugira ngo arebe niba ifite imikurire myiza. Ni byiza kwita ku itungo ryawe, urikurikirana umunsi ku munsi mu rwego kugira ngo umenye imikurire yaryo.

Inkoko nyinshi cyane zirimo gutora ibiryo mu rwego kugira ngo zikomeze gukura cyane. Ni byiza kwita ku bworozi bwawe bw'inkoko, igihe wapanze umushinga ukavuga ngo ugiye korora kubera ko iyo woroye, uba ukeneye inyungu.

Ihene ya musheru iryamye, akaba ari ihene nziza cyane ubona ko igaburirwa. Ihene ni nziza kubera ko ushobora kuyorora bityo ikaguteza imbere kandi iraryoha kubera ko ntabwo ushobora kurya mushikaki udafite ihene, niyo mpamvu abantu benshi bazikunda cyane.

Umugabo n'umugore bahagaze imbere y'ikiraro cy'inka baganira ku bijyanye n'ubworozi bwabo, ni byiza kororera mu kiraro mu rwego rwo kugira ngo ubone ifumbire kandi kwita ku itungo ryawe bikorohere.

Inka iri mu rwuri ikaba irimo kurisha ubwatsi mu rwego rwo kugira ngo ikomeze igire ubuzima bwiza kandi itange umusaruro haba umukamo ndetse no kororoka, ni byiza korora inka ariko wizeye neza ko ufite ubwatsi buhagije.

Ingurube iri mu kiraro akaba ari ikiraro kirimo ijagi ubona ko nta saso ririmo, hakaba hari ikijerekani gikasemo kabiri inyweramo amazi, ni byiza gushyira ikijerekani mu kiraro bityo ukajya ubona uko ushyiramo amazi cyangwa se ibindi biryo kugira ngo itungo ribone uko rirya.

Ihene ziri mu kiraro zirimo kurisha, akaba ari ihene zibyibushye ubona ko zitabwaho neza, ni byiza kwita ku matungo kubera ko iyo akuze neza nibwo atanga inyungu, yubakiye ikiraro cyiza ubona ko gicinyiye neza nta nyamaswa ishobora kuza kuzendereza.

Ingurube irimo kunywa amazi mu kijerekani gikase, iruhande rwayo hakaba hari umuntu uhagaze, hari n'amacupa hasi, bisa naho bamaze kuyikingira bayiha umuti kugira ngo izakure neza.

Inkoko ziri mu kiraro zibamo, zikaba zirimo gutora ibyo kurya mu rwego rwo kugira ngo zikomeze kugira ubuzima bwiza. Ni byiza kwita ku matungo mu rwego rwo kugira ngo akure kandi atange umusaruro vuba bidatinze.

Intama ziziritse mu kinani mu rwego rwo kugira ngo zirishe, akaba ari intama ebyiri zose ni ikigina, ni byiza kuragira intama igihe udafite ibyatsi byo kuzigaburira kubera ko birakorohera.

Ingurube iri mu kiraro ndetse n'ibibwana byayo ikaba iri mu kiraro cyubakishije ibibabari, ni byiza kubakira ingurube ukazitira neza ku buryo idashobora gusohoka mu rwego rwo kugira ngo ubungabunge umutekano wayo.

Ingurube nziza cyane ubona ko yakuze, ikaba iri mu kiraro kirimo ijagi, ingurube ni imwe mu matungo ashobora guteza umuntu imbere byihuse kubera ko yororoka vuba.

Ingurube zirimo gukina mu kiraro zishakisha ibyo kurya mu rwego rwo kugira ngo zikomeze kubaho neza, ni byiza kwita ku matungo yawe kugira ngo yororoke ndetse nawe aguteze imbere kubera ko nta muntu worora atagamije inyungu.

Inka ziri mu biraro, zikaba zirimo kurya mu rwego kugira ngo zikomeze kugira ubuzima bwiza, imbere y'ibiraro hari abantu barimo kuzigaburira bareba imibereho yazo hakaba hari n'ikigega cy'amazi bavomamo amazi yo kuziha kugira ngo zinywe.

Inkoko nyinshi cyane zitera amagi, akaba ari inkoko z'amapondezi, ni byiza korora inkoko kubera ko zitanga amagi bityo waba woroye abana ntibazarware bwacya.

Abantu bari ku kiraro cy'inka bakaba baje kureba uburyo inka yitabwaho. Ni byiza gusura amatungo mu rwego rwo kugira ngo umenye imikurire yayo ya buri munsi.

Umubyeyi w'umumama wambaye imyenda y'umuhondo arimo kugaburira inguruwe ye mu rwego kugira ngo igire ubuzima bwiza, bityo izamwororokere abone inyungu mu gihe kidatinze, iruhande rwe hakaba hari umwana we urimo kumufasha.

Umubyeyi w'umumama urimo kugaburira ihene, akaba yambaye igitenge, umupira w'amaboko magufi ndetse yanapfutse igitambaro mu mutwe, ahagaze imbere y'inzu itariho urugi, iruhande rw'inzu hakaba hahinze insina.

Umuntu urimo kugaburira ingurube mu rwego rwo kugira ngo ikure neza bityo izamubyarire inyungu mu gihe cyihuse. Ni byiza kwita ku matungo mu rwego kugira ngo azatange umusaruro vuba bidatinze.

Ingurube iri mu kiraro akaba ari ingurube ndende, iruhande rwayo hari ikijerekani gikase bashyiramo ibyo kurya kugira ngo ibone uko irya bitari hasi, ni byiza gushyira ikijerekani ingurube iriramo mu kiraro mu rwego rwo kugira ngo ibirye neza bitamenetse hasi.

Umusore uri mu muhanda ufite inyana y'umweru, ifite ibara ry'umukara ku mutwe. Akaba ayijyanye kuyorora mu rwego rwo kugira ngo yiteze imbere. Ni byiza gukora ubworozi kubera ko bushobora gukura umuntu mu bukene, bugatuma agira ahandi hantu agera.

Abantu batatu bahagaze imbere y'inzu ubona ko ishaje, akaba ari inzu ifite umuryango uriho ikivero hahomyeho n'icyondo, imbere yayo hakaba hari isuka, bahagaze imbere y'inka ubona ko ikiri ntoya.

Ingemwe z'amatunda zinarijwe muri pepenyeri, zikaba ziri mu bihoho. Amatunda ni imbuto nziza ku buryo iyo zeze umuntu akazirya ,agira ubuzima bwiza kandi akanahorana ubushake bwo kurya.

Ibigori byanitse ku gihangari mu rwego kugira ngo byume neza hanyuma igihe cyo kubihungura nikigera bizahungurwe byarumye neza ku buryo bishobora kubyara imbuto. Ni byiza gusarura ibigori byawe byeze neza ku buryo iyo ubyanitse bishobora guhungurwa bikavanwamo imbuto.

Umurima uteyemo amashu yeze neza cyane ageze mu gihe cyo gusarurwa, amashu n'imboga umuntu ashobora kurya mu buryo butandukanye ushobora kuyakoramo salade, ushobora kuyateka yonyine hanyuma ukayarisha ibiryo ndetse ushobora no kuyateka uyavanze n'ibiryo.

Umurima winarijwemo ingemwe z'intoryi. Ni byiza guhinga intoryi kuko ziri mu mboga zoroshye, kubera ko iyo wazihinze usarura inshuro nyinshi, bityo bikaba bituma usarura mu buryo buhoraho, bigatuma udahora ugura imboga.

Ababyeyi bateraniye hamwe mu rwego rwo kugira ngo basarure intoryi zabo bahinze. Ni byiza gusarura intoryi zeze neza kuko ari bwo ubona abaguzi benshi cyane.

Umugabo uri muri pepenyeri yinarizwamo ingemwe zitandukanye, akaba arimo kwita ku ngemwe z'amatunda mu rwego rwo kugira ngo zikure neza, bityo zizajyanwe mu mirima guterwa, zizerewe ubudahangarwa bwazo kugira ngo zitange umusaruro mwiza ushimishije.

Urutoryi ubona ko rusa icyatsi cyane, akaba ari urutoyi rwitwa inagarasoryo, ni byiza kugaburira abantu intoryi kubera ko zituma igogora rikora neza bityo n'amaraso agatembera neza mu mubiri.

Umuferege urimo amazi yifashishwa mu gihe barimo kuhira ibihingwa bihinze mu murima kugira ngo bikure neza, ku gice cyo haruguru hari ibisheke ndetse n'ibiti bimeze nk'igihuru, ni byiza kuhira ibihingwa kugira ngo bizakure neza.

Umurima uhinzemo imboga za mashu, akaba ari imboga ubona ko ziri kuzamuka neza zitoshye, iruhande rwazo hahinze ubwatsi bw'inka buzwi nk'urubingo, akaba ari byiza kugira ubwatsi bwo guha amatungo kubera ko birakorohera ntabwo wirirwa ugorwa no kujya gutara ubwatsi mu gasozi.

Inka ziri mu biraro, akaba ari inka y'ikigina ifite iherena ku gutwi ndetse n'inka y'umukara. Ni byiza kororera mu biraro kubera yuko ubona ifumbire kandi bikoroha kwita ku matungo yawe.

Umusore ukiri mutoya urimo kugaburira inka, akaba ari inka ubona ko yishwe n'isari. Ni byiza kugaburira inka kuko iyo uyitaho neza ikura neza bityo nawe ikaguha umukamo ushimishije kandi ikazanakubyarira inyungu.

Abantu barimo kuvura inka bayiha umuti, umwe arayifashe undi yayasamuye umunwa mu rwego rwo kugira ngo abone uko ayiha umuti, bityo bayivure akaronda, akaba ari inka y'umukara iri mu kiraro.

Abantu babiri bari mu kiraro cy'inka bakaba bayifashe barimo kuyikingira mu rwego rwo kugira ngo igire ubuzima bwiza hato itazarwara. Ni byiza gukingiza itungo ryawe mu rwego rwo kugira ngo rikomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Abasore bateraniye hamwe bakaba baryamishije inka hasi bisa n'aho barimo kuyibaga, hirya y'aho hakaba hari inka nyinshi cyane ubona ko ari ahantu hororerwa inka bityo bakaba bazihakura bazijyanye kuzibaga.

Inka irimo kurisha iruhande rw'inzu isakaje amategura, hakaba hari umugabo uri kuza ayisanga, yambaye isarubeti y'icyatsi na bote, afite urushinge mu ntoki, ubona ko agiye kuyikingira mu rwego kugira ngo ikomeze kugira ubuzima bwiza.

Abagabo babiri bari mu kiraro cy'inka, umwe akaba afashe inka naho undi ari kuyitera iherena, ni byiza gutera inka iherena kubera ko bituma imenyekana bityo ukamenya kuyitandukanya n'indi.

Abantu bari mu ishyamba, bigaragara ko baje gukingiza inka. Hakaba hari umugabo ufite inka arimo kuyizirika, mu rwego kugira ngo babone uko bayibanguriza. Ni byiza kubanguriza inka mu gihe yimye, mu rwego rwo kugira ngo itange umusaruro.

Abantu bari mu kiraro cy'inka, umwe akaba ari gukora ku icebe ry'inka areba niba ifite amata. Undi akaba arimo kuyishisha mu rwego ro kugira ngo ayirangaze itaza guteza amahane.

Abantu barimo kubanguriza inka akaba ari inka nziza cyane y'inyambo ubona ko yakuze cyane kandi ifite amahembe maremare ateze. Inyuma hakaba hari umugabo ufite ikayi arimo kujya yandikamo umubare w'inka bamaze gutera intanga.

Inyoni nziza cyane iri mu byatsi, akaba ari inyoni ifite amabara agiye atandukanye, ifite ibara ry'umutuku, umukara ndetse n'umuhondo, hamwe n'icyatsi, ni byiza kubungabunga ibinyabuzima, harimo n'inyoni kubera ko na byo ari ibinyabuzima.

Inyoni y'umukara iraramye, ubona ko irimo kwitegereza agasimba. Inyoni ni bimwe mu biguruka, bikunze kuba mu ishyamba ndetse no mu bihuru...

Inyoni ebyiri ziri ku giti, akaba ari inyoni zisa. Ni inyoni zifite amabara y'ubururu, umuhondo ku munwa n'umutuku ndetse n'umukara ku kirokoroko. Ni byiza kwita ku nyoni kubera ko na zo ari ibinyabuzima.

Ingagi yo mu misozi miremire akaba ari ingagi ubona ko mu maso hayo hakanyaraye ishaje cyane igeze mu gihe cy'izabukuru, ingagi ni zimwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo.

Inyoni ihagaze mu giti ikaba ifite umunwa usongosoye, ifite amabara y'icyatsi, umutuku, ubururu ndetse n'umukara ikaba ihagaze mu bihuru, ibihuru akaba ari ahantu inyamaswa zikunda kuba.

Imbwa ziryamye mu mucaca. Ni byiza korora imbwa cyane cyane iyo uzi ko ahantu utuye hakunda kuza ibisambo. Iyo uzifite ntamuntu ushobora kuhaza kubera ko iyo hagize umuntu uhaza adasanzwe ahaza, zihita zimoka bityo ukamenya ko hari umuntu uje iwawe utahamenyereye cyangwa se udasanzwe.

Inyoni nziza ifite umunwa muremure w'umutuku, umutwe umutuku utijimye ubururu ndetse n'umuhondo, inyoni ni nziza kubera ko zikunda kuririmba mu gitondo.

Igitera kikaba kiri mu ishyamba, ibitera akenshi bikunze guhohotera abakobwa, bishaka kubasambanya, ni byiza kwirinda kunyura ahantu hari ibitera, uri igitsina gore.

Ihene y'ishyamba ikaba irimo gutambuka mu ishyamba ishakisha ibyo kurya, mu ishyamba hakunze kubamo inyamaswa z'amoko atandukanye kubera ko inyamaswa zitajya zibana n'abantu.

Ingagi ebyiri ziri mu giti. Ingagi akaba ari inyamaswa zikunze kuba mu misozi miremire cyane cyane mu birunga, ikindi kandi zikurura ba mukerarugendo bakazana amadovize mu gihugu, igihugu kigatera imbere.

Imbwa y'ikigina irimo gutambuka mu kinani, ikaba yahindukiye irimo kwitegereza abantu. Imbwa zikunda kuba mu ishyamba, zikarya udusimba duto ndetse zikunda no kurya amagufwa.

Inkima iri mu ishyamba, akaba ari inkima ubona ko ijya kumera nk'ingagi, ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara n'ubwoya bwinshi cyane. Yicaye mu bihuru mu rwego rwo kugira ngo irebe ko yabona ibyo kurya.

Imbwa y'ikigina, iryamye mu kinani, ikaba yasamye yasohoye ururimi, bisa nkaho inaniwe, yahagiye. Imbwa ni inyamaswa y'inkazi ku buryo iyo uyifite mu rugo ntamuntu ushobora kuza kwiba iwawe.

Inyoni yitwa gasuku, akaba ari inyoni icukura igiti bityo igatura mu giti, mbese iba ifite umunwa ukomeye cyane ku buryo iwudondanga ku giti kugeza igihe kigiye gicukuka bityo hakazamo umwobo wo guturamo.

Irembo rigaragaza parike y'igihugu ya Nyungwe, akaba ari ahantu abantu bashobora kuza gusura inyamaswa zitandukanye, kubera ko ari ahantu nyaburanga, abakerarugendo bashobora gusura.

Inyoni iri mu giti, akaba ari inyoni ingana nk'imbata, ni inyoni iri mu mabara ajya gusa nk'ubururu bwijimye, ikaba ifite ibara ry'umuhondo ku jisho, umutuku ku mutwe ndetse no hasi ku mababa, ni inyoni nziza cyane ubona ko idasanzwe.

Abantu barimo guca ku kiraro cyo mu kirere, akaba ari ikiraro cyubatswe ahantu mu ishyamba mu rwego rwo kugira ngo bajye babona uko bambuka bajye hakurya barebe inyamaswa, cyubatswe muri parike.

Inkende enye ziri mu giti, akaba ari inkende eshatu nini ndetse n'akana gatoya, inkende ni inyamaswa zikunda kurya imbuto ndetse n'ibindi bintu bimeze nk'imbuto urugero inoryi ndetse n'ibindi binyamisogwe.

Igisamagwe kikaba gitonye amabara, kirimo kureba mu buryo bukarishye cyane ubona ko gifite uburakari, si byiza kwegera inyamaswa z'inkazi kubera ko zishobora kukugirira nabi harimo n'urupfu.

Inyoni iri mu giti, akaba ari igiti gifite amashami agiye asobekeranye, inyoni zikunda gutura mu biti kubera ko ari bwo buturo bworoshye kuri zo. Ni inyoni imeze nk'intashya ariko ifite umutwe umeze nk'uw'igisiga cya nyirabarazanga.

Ingagi iryamye mu byatsi ikaba yishimye cyane, ingagi ubusanzwe zikunda kuba mu misozi miremire akaba ari inyamaswa zikunda gukurura ba mukerarugendo, ni byiza gusura ingagi kandi ni byiza kuzibungabunga kuko zikurura ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize.

Imparage ebyiri zihagaze mu ishyamba, akaba ari imparage ziri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, muri parike ni ahantu ushobora gusanga inyamaswa z'amoko atandukanye cyane cyane impara n'imparage, hakaba hari ibyatsi byumye bisa n'aho ari mu gihe cy'izuba.